Igihingwa cy'ibigori ni kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro, bikagirira akamaro abantu babihinga, aho babijyana mu isoko abaturage bakabigura...

Umugabo uri mu murima urimo gutera umuti ku gihingwa cy'amashu, ubonako kizatanga umusaruro ushimishije.

Igihingwa cy'inyanya ni kimwe mu bihingwa dukenera muzima bwacu bwa buri munsi. Ubona ko barimo gutera umuti kugirango zizatange umusaruro ushimishije.

Isahane iteretse ku meza ya kijyambere, iriho ibiryo bitetswe kijyambere urugero amakaroni inyama y'inkoko biryoshye.

Ikiyaga kinini gikikijwe n'imisozi myinshi, hagati harimo ikirwa gituwe nabantu benshi.

Isambaza ni kimwe mu bikomoka ku matungo, twifashisha mu gutegura ifunguro ryacu rya buri munsi.

Amafi ni kimwe mu biribwa bikomoka ku matungo, twifashisha mu mirire yacu myiza ya buri munsi.

Ibidodoki ni zimwe mu mboga zikungahaye mu kurinda indwara, kandi zoroshya mu nda ku bantu bagira ikibazo cyo kuribwa.

Ni umucanga urunze ku muhanda ahantu hanyurwa n'abantu, uwo mucanga ukoreshwa iyo bari kubaka inyubako zigezweho.

Igihingwa cya karoti kigeze ku kigero gishimishije ,ni zimwe mu mboga twifashisha mu guteka indyo yuzuye, kandi ifite intungamubiri zihagije.

Jaride ni ikintu gishimisha umuntu iyo yayiteye igafata, bituma aho hantu hasa neza hagaragara bishimishije.

Ibirayi ni igihingwa cyiza kidufasha kwiteza imbere ,mu gihe gihinzwe neza kiduha umusaruro ushimishije.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye harimo amashaza, ibigori byumye, ubona ko byatanze umusaruro ushimishije.

Ibishyimbo bihinzwe ku murongo， bigaragara ko mu minsi iri imbere， bizatanga umusaruro ku babihinze.

Umumama uri gusarura karoti zishishe, inyuma hari ishyamba rimeze neza.

Igihingwa cy'ibitoki, ni kimwe mu bihingwa bidufitiye akamaro, aho tubibyaza umusaruro mu kwiteza imbere.

ikiraro cyubatswe kijyambere, cyubakishije ibiti bikomeye hamwe nimbaho, ubona ko cyororerwamo amatungo magufi nk'ingurube.

Umusaruro w'icyayi weze ku kigero gishimishije, aho abawusarura basarura byinshi kugira ngo babone, amafaranga yo kwiteza imbere.

Abagabo n'abagore bicaye mu murima baje gusura Ubuhinzi bw'inanasi, ubona ko buzatanga umusaruro ushimishije.

Igihingwa cy'ibigori cyeze mu buryo bushimishije, ubona ko ababihinze batewe ishema, nuko byeze neza kandi ku kigero gishimishije.

Ibirayi byageze ku kigero gishimishije, bitunganywa neza bishyirwa mu mifuka yabigenewe, ababihinze babijyana ku isoko, kugira ngo babahe amafaranga, biteze imbere.

Igikoresho cyifashishwa n' abantu mu gusya ubwatsi bw'inka, kugira ngo zibone umukamo ushimishije.

Abagabo n'abagore bari gutera ibirayi kijyambere, ubona ko bizera ku kigero gishimishije.

Umusaruro w'ibigori weze ku kigero gishimishije. Aho uri gutunganywa ushyirwa mu mifuka yabugenewe. Uzatanga amafaranga ku bawuhinze.

Umusaruro w'ibishyimbo weze ku kigero gishimishije. Ni kimwe mu biribwa twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abagabo n'abagore bunamye barimo gusarura igihingwa cy'ibirayi, ubona ko cyatanze umusaruro ushimishije.

Igihingwa cy'intoryi ni kimwe mu mboga twifashisha mu buzima bwa buri munsi, iyo uwagihinze kimuhaye umusaruro ushimishije.

Igihingwa k'ibigori ni kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro， iyo uwabiteye abyitayeho， akabitera umuti，bitanga umusaruro ushimishije.

Igihingwa k'ibigori ni kimwe mu bihingwa bidufasha kuzamuka mubukungu, aho abagabo bambaye imipira y'imyeru, n'ingofero z'ubururu, baje gusura igihingwa cya...

Igihingwa cy'ibigori cyeze ku kigero gishimishije, aho byumiye mu murima bitegereje gusarurwa.

Ubwoko bw'amatunda, ni kimwe mu mbuto twifashisha mu kurwanya indwara zitandukanye.

Igihingwa cy'ibigori cyeze ku kigero gishimishije, aho kizatanga umusaruro ku bagihinze bakiteza imbere mu buryo bw'amafaranga.

Umusaruro w amarunji weze ku kigero gishimishije, ni zimwe mu mbuto zirinda indwara.

Umusaruro w'imyembe， weze ku kigero gishimishije， ni zimwe mu mbuto， twifashisha mu kurinda indwara.

Igihingwa cy'inyanya cyeze ku kigero gishimishije, aho ziri gusarurwa zishyirwa mu bipaniye byabugenewe.

Igihingwa cy'imyumbati ubona ko cyeze bishimishije, aho gikoreshwa mu gushaka ifu y'ubugari.

Igihingwa cy'imyembe, ubona ko kizatanga umusaruro ushimishije, ni zimwe mu mbuto twifashisha mu kurinda indwara mu mubiri wacu.

Ubucuruzi buciriritse bucuririzwa ku muhanda bucuruza ibintu bitandukanye urugero: urusenda, imyembe,...

Igihingwa k'ibitunguru， ni igihingwa gikenerwa n'abantu buri munsi， ugihinze kimujyana mu bukungu bushimishije.

Igihingwa cy'ibinyomoro kigaragara ko kizatanga umusaruro ushimishije, bikadufasha twebwe abaturage, mu kwirinda indwara.

Igihingwa cy'ibireti ni kimwe mu bihingwa byera ku kigero gishimishije aho ugihinga agicuruza akagikuramo amafaranga akiteza imbere.

Abagabo n'abagore barimo kwita ku gihingwa cy'inyanya, kugira ngo kizatange umusaruro ushimishije ku bagihinga, ndetse kijyanwe ku isoko kibahe n'amafaranga.

Umusaruro w'imboga zo mu bwoko bwa pavuro, wifashishwa mu kurwanya imirire mibi, no gutanga amafaranga ku bantu baciriritse.

Abagabo n'abagore barimo kubagara igihingwa cy'ibirayi ubona ko kizatanga umusaruro ushimishije.

Abagabo n'abagore barimo kwita ku gihingwa cy'ibigori, bashyiramo ifumbire mvaruganda kugira ngo kizatange umusaruro ushimishije.

Igihingwa cy'amatunda ubona ko kizatanga umusaruro ushimishije, aho kizaha abagihinze amafaranga bakiteza imbere, amatunda ni kimwe mu mbuto zirwanya indwara.

Umugabo n'umugore bavuye gukura imyumbati ,ubonako bishimiye umusaruro babonye ubu.

Igihingwa cy'amapera, ubona ko kizatanga umusaruro ushimishije, ni kimwe mu mbuto zirinda indwara abaziriye.

Isoko ryubatswe kijyambere ubona ko ririmo ibirayi bishimishije aho umuturage aza kugurira mu buzima bwe bwa buri munsi.

Igihingwa cy'inyanya ubona ko kizatanga umusaruro ushimishije. Ni kimwe mu bihingwa twifashisha, mu gutegura amafunguro ya buri munsi.

Abagabo n'abagore barimo kwanika umusaruro w'igihingwa cy'ibigori, weze ku kigero gishimishije barimo kwanika ku mashitingi atandukanye.

Igihingwa cy'amapera, ni kimwe mu rubuto rushimishije, bigaragara ko cyatanze umusaruro ku bagiteye.

Umusaruro w' intoryi weze ku kigero gishimishije, ni zimwe mu mboga twifashisha mu kurinda indwara.

Abaturage bagizwe n'abagabo n'abagore, barimo guhinga. Ubona ko barimo gukora umuganda rusange.

Ibijumba ni kimwe mu bihingwa bitera imbaraga, mu gihe ababiriye bumva baguwe neza kurushaho.

Umusaruro w'ibitoki weze ku kigero gishimishije, aho ababihinze babishyira ku magare bakabijyana ku isoko, mu buryo bwo kubona amafaranga ngo biteze imbere.

Isoko rigari ryubatswe kijyambere ricururizwamo ibiribwa bitandukanye. Urugero: amashaza, ibirayi, karoti, inoryi, 'inyanya, ibitunguru n'ibindi byinshi.

Igihingwa cy'ibitoki ni kimwe mu bihingwa abaturage twifashisha mu kwiteza imbere.

Umusaruro w'amapera, weze ku kigero gishimishije namwe mu mbuto zirinda indwara ku baziriye.

Urubyiruko rwiganjemo abagabo n'abagore, bafite amasuka barimo guhinga. Harimo n'abasirikare b'igihugu.

Umusaruro w'igihingwa cy'imiteja ubona ko cyatanze umusaruro uhagije, mu gihe abagihingaga bajyana ku isoko bakiteza imbere.

Umusaruro w'igihingwa cy'ibigori, ubona ko uzatanga umusaruro ushimishije, aho uwagiteye yagiye gusura ngo arebe uko hari ibyo yakosoramo.

Inka ni zimwe mu matungo maremare, zitanga umusaruro ushimishije, iyo zitaweho.

Igihingwa cy'inyanya gishimishije, ubona ko kizatanga umusaruro uhagije ku bagihinze.

Isoko ricururizwamo imboga z'amoko menshi, urugero intoryi, inyanya, n'ibindi byinshi.

Igihingwa cy'ibigori ubona ko kizatanga umusaruro ushimishije ku bagihinze, aho bazakijyana ku isoko bakiteza imbere mu buryo bw'amafaranga.

Igihingwa cy'ibireti ni kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro ushimishije ku babihinze, aho babijyana ku isoko bikabaha amafaranga bakiteza imbere.

Igihingwa cy'avoka cyeze ku kigero gishimishije, bakunda kwita imbangurire, ni zimwe muri avoka zitanga umusaruro mu buryo bw'amafaranga, zikorwamo amasabune.

Igihingwa cy'avoka ubona ko kizatanga umusaruro mu buryo bw'amafaranga, aho abazigura bazijyana kuzikoramo ibintu bitandukanye, urugero amasabune yo koga, amasabune yo gufura, n'ibindi byinshi.

Igihingwa cy'inyanya kigaragara ko kizatanga umusaruro kuri ba nyiracyo, bakiteza imbere mu buryo bw'amafaranga bushimishije.

Abagabo babiri numugore umwe, bafite amasuka barimo gusukira igihingwa cy'ibirayi, ubona ko kizatanga umusaruro ushimishije.

Ubucuruzi buciriritse bucururizwa ku muhanda buririmo: omo, pampa, indagara n'ubunyobwa n'ibindi byinshi.

Igihingwa cy'amashu, ni imboga zitanga ubuzima bwiza mu gihe abazihinze bazijyanye ku isoko ,zikabaha umusaruro ushimishije.

Isoko ryubatswe kijyambere ricururizwamo ibiribwa bitandukanye. Urugero karoti, ibirayi, inyanya, amashaza, imiteja, ibitunguru, indimu n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ibyatsi ni bimwe mu ndabo zidufasha gukora iwacu neza mu buryo bwa jaride. Iyo umuntu aziteye iwe haba hasa neza.

Ibigori bishimishije, ubona ko bizatanga umusaruro uhagije ku babihinze na bo ubwabo bakiteza imbere mu buryo buhagije.

Igihingwa cya avoka cyeze ku kigero gishimishije, gitanga umusaruro ku bagihinze n'abakigura, aho cyifashishwa mu kurwanya imirire mibi.

Isoko riciriritse ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, cyane cyane ibijyanye n'imboga ziturinda indwara, urugero ibidodoki, kokombure, n'ibindi byinshi.

Inyubako yubatswe kijyambere, ikorerwamo ubwanitsi bw'imyaka, aho umusaruro w'ibigori weze neza ku kigero gishimishije. Bawanitsemo.

Igihingwa cy'ibihwagari cyeze ku kigero gishimishije kifashishwa mu gutegura amafunguro, urugero: amavuta.

Umusaruro w'ubunyobwa weze ku kigero gishimishije, ni bumwe mu biribwa twifashisha mu guteka ibiryo bitandukanye.

Igihingwa cy'ibigori, ubona ko kizatanga umusaruro ushimishije ku bagihinze, maze bakiteza imbere mu buryo bw'amafaranga.

Ibishyimbo ni kimwe mu bihingwa biryoha kandi abaturage bakenera mu buzima bwa buri munsi bikungahaye,....

Igishanga kigari kirimo abagabo n'abagore barimo gutera umuceri ,ubona ko uzatanga umusaruro mu gihe uzaba weze.

Igihingwa cy'amasaka ubona ko kizatanga umusaruro ushimishije. Aho abagihinga bazagikuramo amafaranga bakiteza imbere.

Igihingwa cy'ibishyimbo kirimo kuva mu butaka ubona ko gishimishije mu buryo bwiza cyane.

Igihingwa cy'ingano ni kimwe mu bihingwa byifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye, urugero imigati, igikoma, n'ibindi byinshi.

Igihingwa cya soya, ni kimwe mu bihingwa twifashisha mu gukora ibiribwa bitandukanye. Urugero: soya tuzikoresha mu gukora ibyo bita nka tofu.

Umugore wicaye, uri kuvungura ibigori, ubona ko byatanze umusaruro ushimishije.

Umusaruro w' igihingwa cy'ikwawa urimo gutunganywa ujyanwe ku isoko, aho uzateza imbere abawuhinze mu buryo bw'amafaranga.

Ubunyobwa, ni kimwe mu bihingwa abaturage bifashisha mu gutegura amafunguro yabo ya buri munsi.

Umusaruro w'ubunyobwa, weze ku kigero gishimishije, bagiye kuwanika kugirango wume, uzajyanwe ku isoko.

Igihingwa cy'amasaka ubona ko kizatanga umusaruro ushimishije, ni kimwe mu bihingwa twifashisha mu gukora ibinyobwa.

Umusaruro w'ibigori na soya, ni kimwe mu biribwa twifashisha, mu gukora amafunguro yacu ya buri munsi.

Umusaruro w'bigori weze ku kigero gishimishije, aho biri ku bwanikiro kugira ngo byume neza cyane.

Umusaruro w'ubunyobwa weze ku kigero gishimishije bawushyize ku nkoko kugira ngo bawutoremo imyanda.

Umumama uhetse umwana, uhagaze iruhande rw'inzu ishaje, ari kugosora ibishyimbo yejeje kugira ngo abibikane isuku.

Umusaruro w'ibishyimbo weze ku kigero gishimishije, urimo gutunganywa, ushyirwa mumifuka yabugenewe.

Abamama bicaye bari kuyora ubunyobwa babushyira mu mabase, hirya yaho hari ubundi budatonoye.

Igihingwa cy'ubunyobwa kigaragara ko cyatanze umusaruro, aho abagihinze barimo kugitunganya kugira ngo bazakijyane ku isoko.

Igihingwa cy'ubunyobwa cyeze ku kigero gishimishije, gikuwe mu butaka kikaba kigiye gutunganywa, kugira ngo kizajyanwe ku isoko, gitange amafaranga ku bagihinze.

Imbuto y' igihingwa cy'ibihwagari ,ni kimwe mu mbuto zikorwamo amavuta yo kurya cyangwa ayo kwisiga.

Umusaruro w'ibihwagari, ni kimwe mu bihingwa bishimisha umuntu iyo abijyanye ku isoko akabigurisha ku giciro gishimisha.

Igihingwa cy'ibishyimbo cyeze ku kigero gishimishije, aho ababihinze bishimiye umusaruro wavuyemo.

Ibishyimbo ni kimwe mu biribwa dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho bifite intungamubiri nyinshi.

Ikawa itunganyijwe neza, igiye gukorwamo ibintu bitandukanye twifashish mu minywere itandukanye urugero icyayi n'ibindi byinshi.

Ibishyimbo by'ibitonore bibisi, ni bimwe mu biribwa abantu bakunda guteguramo indyo itandukanye, urugero nk,igihembe.

Inkoko ni zimwe mu matungo magufi, atanga umusaruro mu gihe gito ku buryo bw'amafaranga, urugero barazigurisha bakazikuramo amafaranga bakiteza imbere mu buryo bwose.

Ubworozi bw'ihene ni bumwe mu matungo magufi yororoka vuba mugihe yitaweho ku kigero gishimishije.

Ubworozi bw'ingurube ni bumwe mu matungo yororoka vuba kandi mu gihe gito, agatanga umusaruro kubayorora.

Ubworozi bw'amatungo, ni bumwe mu bintu bidufasha kwiteza imbere, mu gihe bwitaweho neza ku kigero gishimishije, bufashijwemo na veterineri uzimenyera ubuzima.

Amatungo maremare bita inka z'inyambo. Zigizwe n'amahembe maremare zakoreshwaga n' ba gakondo, aho zatangaga umukamo ushimishije zimwe ziraryamye izindi zirahagaze.

Ubworozi bw'amatungo maremare bugaragarako bwitaweho ku kigero gishimishije, buzatanga umusaruro uhagije ku borozi babwo.

Umumama uri kugaburira ubwatsi inka ya kizungu. Ubona ko bayubakiye ikiraro cya kijyambere.

Ubworozi bw'ingurube, ni bumwe mu matungo magufi yororoka vuba mu gihe gito, kandi bukabyara umusaruro ushimishije.

Abagabo n'abagore basuye amatungo maremare, bakunda kwita inka, ni zimwe mu matungo atanga umukamo uhagije.

Inyubako igezweho yubatswe kijyambere, yororerwamo inkoko za kijyambere aho zitera amagi ,zigatanga umusaruro ushimishije.

Ubworozi bw'amatungo magufi, ni bumwe mu matungo yororoka vuba atanga umusaruro mu gihe gito, urugero nk'izi nkoko zitanga umusaruro w'inyama.

Ubworozi bw'amatungo magufi bugaragara ko buri kurya ibyatsi byiza zishimiye aho zizatanga umusaruro ushimishije.

Ubworozi bw'amatungo maremare, ni bumwe mu matungo atanga umusaruro ushimishije, iyo bwitaweho bihagije.